Itsinda ry'abantu benshi biganjemo abana, bazamuye ibyapa hejuru mu buryo bwo kwamamaza igikorwa barimo, inyuma ku gikuta hariho ibitambaro bimanitse byanditseho amagambo, asobanura igikorwa cyabahurije hamwe.

Itsinda ry'abantu bari kwita ku mifuka irambitse mu gace, abagore babiri bari guterura umufuka bawimura bawukura aho wari uri bawuzana ku yindi, umugabo uhagaze imbere yabo ategereje ko bamugeraho akabafasha kuwushyira ku zindi.

Umubyeyi wazanye umwana we kumuvuza, yicaye ku ntebe afashe umwana mu ntoki, muganga w'umugore urimo kumuvura afite umuti arimo gusomesha wa mwana, kugira ngo abashereke uruhu rwayo arwaye.

Ku mugezi hateraniye abagore bari kumwe n'abana babo ndetse n'umwana muto uvoma amazi mu ndobo, umwe muri bo arimo koza umwana we, yamutereretse mu ibase, ari kumwuhagira kugira ngo amurinde uburwayi bw'umwanda.

Abantu babiri bari kuvoma amazi ku mugezi rusange, buri umwe afite igikoresho yaje kuvomamo amazi, yagiteretse ku mugezi amazi ari kuva mu mugezi ajyamo kugira nicyuzura ayajyane ajye ku ayakoresha muri gahunda ze zitandukanye.

Igikorwa cyo gusuzuma abaturage, abaganga babiri bambaye imyenda yabugenewe, bari gukora basuzuma amenyo umurwayi wicaye ku ntebe kugira ngo nihaboneka uburwayi babashe kumuvura.

Igikorwa cyo gusuzuma abana, umubyeyi wazanye umwana we yicaye ku ntebe umuganga umusuzuma yifashishije ibikoresho byabugenewe, arimo kumusuzuma ikibazo afite.

Igikorwa cyahuje abayobozi mu nzego zitandukanye, ndetse n'abana bicaje hasi barikubaha amata kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bere kurwara indwara zimwe na zimwe ziterwa no kurya indyo ituzuye.

Umubyeyi w'umugore wambaye itaburiya y'ubururu y'akazi, arimo gusobanurira umugabo n'umugore bicaye ku ntebe bari kumwe kugira ngo abashe kubagezaho ubutumwa bujyanye n'uko barinda ubuzima bwabo bukagenda neza.

Umwana uri kuvoma amazi akoresheje akajerekani gato, ari gufungurirwa na mugenzi we uhagaze hejuru ku mugezi, haruguru y'umugezi hariho umuhanda uri gucamo abana bagenda bava ku ishuri.

Itsinda ry'abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro y'akazi k'ubuvuzi, barimo kwita ku barwayi, imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho bifashisha mu gihe cyo kuvura uje abagana.

Umubyeyi waje gukingiza umwana we, yicaye ku ntebe, afashe umwana mu ntoki, muganga uri kumukingira wambaye imyenda y'akazi, ari kumutera agashinge ku rutugu kugira ngo abashe kumukingira uburwayi, mu ruhande hari ameza ateretseho ibindi bikoresho bifashisha muri iki gikorwa.

Itsinda ry'abaganga bambaye impuzakano y'amataburiya y'umweru ndetse abandi y'ubururu bahagaze, hagati muri bo hari umugabo wambaye ikoti waje kubasura, bakaba bageze mu mwanya wo gufata ifoto y'urwibutso.

Umwana w'umuhungu urimo kuvoma amazi mu gikombe, ari kuyakura mu kigega cy'umukara gifite umugezi yateretseho igikombe, kugira ngo abashe kuyakoresha mu bikorwa bye bitandukanye.

Umugabo uhagaze ku mugezi waje kuvoma amazi akoresheje ikijerekani, ahagaze agitsikamije amaboko, areba umuntu uri imbere ye, arimo guseka cyane, bigaragara ko yishimiye umuntu arimo kubona impande.

Umwana w'umukobwa aje kuvoma mazi akoresheje indobo z'umweru, ariko umugezi avoma indobo yakuzura akavoma indi, ari kureba umuntu umuri imbere, amusekera, amumwenyura bigaragara ko arimo kumuvugisha.

Ababyeyi bafashe abana babo mu ntoki, baje guhabwa serivise. Umwe uri imbere, yambaye apfukamunwa k'ubururu, arimo gusoma umwana we ku munwa, ikimenyetso cyo kumwishimira no kumunezeza.

Umugabo w'umujyanama w'ubuzima, arimo kuganiriza ababyeyi baje gupimisha abana babo ibiro, kugira ngo barusheho gukomeza kwita ku bana, inyuma ye hari umunzani ufite imishumi, aho hajyamo umwana kugira ngo harebwe ibiro afite.

Itsinda ry'abana benshi bambaye impuzankano y'amashati y'umuhondo, inyuma yabo hahagaze itsinda ry'abayobozi babo barikumwe n'abashyitsi, bose hamwe bishimye banezerewe bazamuye ibiganza hejuru muburyo bwo kugaragaza ko bashimishijwe nikiri kuba.

Ababyeyi b'abagore bari kumwe n'abana babo bato babateruye mu ntoki mu rwego rwo kubitaho kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Bari kwa muganga aho baje guhabwa amabwiriza ndetse n'uburyo bubafasha kurera abana babo.

Itsinda ry'abantu abagabo n'abagore bahagaze bafata ifoto y'urwibutso. Inyuma ku gikuta cy'inzu handitse sare de koferensi, bisobanura ko ari icyumba cy'intama barimo, bakaba basohotse ngo bafate ifoto y'urwibutso.

Icyumba ry'amahugurwa giteraniyemo abantu batandukanye abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi bari kunywa, ibikoresho nka mudasobwa na telefoni, amakaye, n'amakaramu, bari kwandikamo ibiri kuvugirwa mu mahugurwa, umwe muri bo afite ibitekerezo abantu baturije bamutegereje kugira ngo bahurize hamwe ibitekerezo bagere ku cyo bagamije.

Abana batatu bambaye impuzankano, bahagaze imbere y'umugezi uri kuvamo amazi ku migezi itatu, barimo gukaraba intoki, bifashishije isabune kugira ngo bakureho umwanda wose, birinde indwara ziterwa n'umwanda bashobora kwandura.

Itsinda ry'abagore bambaye impuzankano y'ubuganga amataburiya barimo gukomerashyi banabyina basusurutse babirimbana n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara uhagaze imbere ugaragara nk'umushyitsi wabasuye.

Icyumba cy'inama giteraniyemo imbaga nyamwinshi y'abayobozi, ku meza abari imbere hatereretse icupa ry'amazi kuri buri muntu ndetse n'ibikoresho bari kwifashisha mu nama harimo mudasobwa, amatelefone, amakaye n'amakaramu. Umwe muri bo ari gutanga igitekerezo abandi bitonze bamukurikiye, kugira ngo babashe kungurana ibitekerezo, bagere ku mwanzuro ukwiye.

Imbere mu kigo cy'amashuri, umwana w'umunyeshuri w'umukobwa wambaye impuzankano y' ubururu, ari gukaraba intoki ku mugezi afungura amazi amugwa ku ntoki azikaraba, kugira ngo yirinde indwara zimwe na zimwe aterwa n'umwanda.

Imbere mu cyumba, hateraniyemo abagabo ndetse n'abagore, bahagaze bafata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo ku gikuta gihari, handitseho ngo uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita ku bangavu, bisobanura ko bari mu gikorwa cyo kuganira uburyo hakirindwa gutwita ku bangavu.

Ababyeyi b'abagore batatu bari mu gikorwa cyo kuvoma amazi, umwe ateretse indabo ku mugezi amaze ava mu mugezi ajyamo, abandi babiri bari kumukubitira amazi kugira ngo aturuke mu butaka abone kwinjira mu ndabo.

Umubyeyi w'umugore uri kuvoma amazi, ufashe indobo y'umuhondo mu ntoki, wikoreye n'indi ndobo y'umutuku, kugira ngo ajyane amazi menshi, abashe kuyakoresha mu mirimo ye itandukanye.

Igikorwa cyo gusuzuma umuvuduko w'amaraso, abagore bicaye bakurikiranye, bari gusuzumwa n'umugore w'umuganga wambaye itaburiya ndetse n'ibikoresho by'akazi, arimo gusuzuma umugore amwambika akuma kabugenewe ku kaboko kugira ngo asuzume umuvuduko w'amaraso ari kugenderaho.

Mu cyumba cy'amahugurwa, hateraniyemo abantu benshi batandukanye, bicaye bahugurwa, umugabo urimo kubagezaho amahugurwa, ari kugendagenda mo hagati muri bo, kugira ngo abashe kubagezaho neza ubutumwa yageneye kubahugura.

Itsinda ry'abantu bicaye mu cyumba cy'amahugurwa baganira. Bamwe muri bo bafite amakaye n'amakaramu bari kwifashisha mu kwandika ibyo bari guhugurwa ndetse umwe Ari gutanga igitekerezo, abandi bitonze bamukurikiye kugira ngo bahurize hamwe ku mugambi bashaka.

Itsinda ry'abana bambaye impuzankano y'imipira y'ubururu barimo kwitegereza bafata ifoto y'urwibutso, imipira yanditse UNICEF, bigaragara ko ari impano bahawe na UNICEF, ikigo mpuzamahanga cyita ku buzima bw'umwana.

Abaturage benshi barimo abaje kuvoma amazi bateraniye ku mugezi, bamwe bafite amajerekani baribuvumemo amazi umwana w'umukobwa yateretse akajerekani ku mugezi undi w'umuhungu ari inyuma amukubitira amazi kugira ngo ave mu butaka abone ayo avoma.

Abana babiri bari ku mugezi baje kuvoma amazi bakoresheje indobo z'umweru, barimo kuvoma umwe ari gufungura umugezi amazi ajya mu ndobo undi ategereje ko asoza kuvoma na we akavoma indobo yazanye.

Itsinda ry'abantu bambaye imyambaro y'akazi, bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yaho kugikuta, hariho icyapa kinini cyanditseho RBC, ndetse gishushanyijeho ibijyanye n'igikorwa cyari gihari, bigaragara ko ari igikorwa gishyigikiwe cyatewe inkunga na RBC, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda.

Imbaga nyamwinshi y'abantu abagabo ndetse n'abagore bateraniye imbere y'inyubako ikoreramo ibikorwa bya Leta, ifite ibendera rishinze imbere yayo barimo guhabwa serivisi bitewe n'icyo baje gushaka.

Igikorwa cyo gukingira umwana, aho umubyeyi we wamuzanye yicaye ku ntebe amufashe mu ntoki yazamuye umupira we ku kaboko kugira ngo muganga ugiye kumukingira abone aho atera urushinge amukingira uburwayi, adakomeza kurwara cyangwa akazafatwa n'uburwayi runaka.

Itsinda ry'abashyitsi bari mu umuhungu wambaye umupira w'umuhondo arimo kuganiriza ababyeyi n'abana babo baje gusura, aha umwana amata kugira ngo amufashe kugira ubuzima bwiza yirinde indwara zo kugwingira n'ibindi bibazo bituruka ku mirire mibi.

Icyumba giteraniyemo abantu batanu bicaye ku ntebe baganira, umwe muri bo ari gutanga igitekerezo, abandi baritonze bamuteze amatwi kugira ngo bumve inama ari kubaha, barusheho kugira ubuzima bwiza n'imiryango yabo.

Itsinda ry'abaturage bicaye mu ntama ahatwikirije ihema, bakurikiye ikiganiro bari kugezwaho n'umugore, wambaye itabaririya y'umweru ufite indangururamajwi ndetse n'igitabo ari kurebamo ibyo aganiriza bagenzi be.

Abana bato bane bari gukaraba intoki, umugabo uhagaze inyuma yabo ari kabasukira amazi ku ntoki bagakaraba, amazi bamaze gukaraba akagwa mu ibase iteretse hasi kugira ngo baze kugira isuku ku maboko, birinde indwara zituruka ku mwanda.

Imbere mu cyumba cy'akazi hateraniyemo abagore batatu bari mu gikorwa cyo gukora raporo kugira ngo babashe kubika amakuru y'ibyakozwe, bizanaherweho mu gihe cyo kongera guhabwa serivise ku baturage.

Itsinda ry'abantu batatu bari mu gikorwa cyo gusuzuma, abaganga barimo gutera urushinge, umugore wicaye ku ntebe wamanuye umupira ku kaboko kugira ngo umuganga abone aho amutera urushinge.

Umubyeyi w'umugore wicaye ku ntebe ufashe umwana mu ntoki, arimo aramuvuriza ku mugabo w'umuganda wicaye imbere ye, wambaye imyambaro y'akazi, ndetse ku ruhande hateretse ibikoresho ari kwifashisha mu kuvura umwana.

Itsinda ry'abantu biganjemo abagore, bambaye impuzankano y'amajire y'cyatsi n'imipira y'umuhondo, bahagaze imbere y'inzu, bafata ifoto y'urwibutso kugira ngo bazajye bayibukiraho igikorwa cyari cyabahuje.

Itsinda ry'abantu benshi abagabo ndetse n'abagore bahagaze bafata ifoto y'urwibutso, bambaye udupfukamunwa, amataburiya ndetse bamwe muri bo bambaye imyenda isanzwe, inyuma yaho hari ibyapa binini byamamaza basobanura igikorwa cyabahuje.

Ababyeyi benshi, bateraniye mu cyumba bari kumwe n'abana babo, buri umwe afashe umwana we n'icyangombwa cye mu ntoki. Imbere hahagaze umubyeyi uhagaze, ufashe umwana mu ntoki n'icyangombwa kimufasha guhabwa serivise nk'uko ayishaka.

Umwana uri mu gikorwa cyo kuvoma amazi akoresheje igikombe, yagiteze ku mugezi amazi ari kuva mu mugezi akijyamo nicyuzura araza gufunga umugezi. Arimo guseka cyane ubona yishimiye ibyo arimo.

Itsinda ry'abana bambaye impuzankano bahagaze bafite ibikombe bari kuvoma amazi aturuka mu kigega cy'umukara cyagenewe cyo kubika amazi asukuye, abana bifashisha mu kwirinda ko banywa amazi atari meza bakarwara indwara zituruka ku mwanda.

Itsinda ry'abantu biganjemo urubyiruko, bambaye impuzankano y'ubuvuzi. Umwe aricaye abandi barahagaze bafata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo n'ibishushanyo, bisobanura umurimo barimo.

Abana batoya bari kuvoma amazi mu mugezi utemba, bakoresheje indobo ndetse n'amabase barimo gushyira mu mazi, hanyuma bakavoma amazi, bakajya kuyakoresha mu mirimo itandukanye.

Abantu batatu bahuriye ku mugezi, umugabo n'umugore baje kuvoma amazi bateretse ibikoresho byabo ku mugezi amazi ari kujyamo kugira ngo bajye kuyifashisha mu mirimo itandukanye, imbere yabo hahagaze umugore wambaye ijire y'akazi arimo kubaganiriza baseka ubona bishimanye.

Itsinda ry'abantu benshi bambaye imipira y'umuhondo, ndetse muri bo harimo umupolisi wambaye imyenda y'akazi, umwe muri bo bari gukora igikorwa cyo gukora akarima k'igikoni.

Umugabo n'umugore bahagaze bafata ifoto y'urwibutso, impande yabo hashushanyije umubyeyi ufite umwana ndetse n'abana batatu bishimye, bigaragara ko bari mu gikorwa cyo gushishikariza abantu uburyo bwo kugira ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abantu benshi bahuriye hamwe mu birori byo kwishima, bambaye amataburiya y'ubururu, byumvikana ko bafite ubuvuzi no kwita ku bantu mu nshingano zabo, barimo barishimira igikorwa cyabahuje.

Agace karimo umugezi abaturage bavomaho amazi yo kunywa no gukoresha, umwana w'umuhungu yaje kuvoma amazi akoresheje ikidomora cy'umweru, agiteretse ku mugezi, arimo kuzamura amazi akijyamo, kugira ngo ajye kuyakoresha mu mirimo itandukanye.

Umwana w'umuhungu uri kuvoma amazi akoresheje igikombe yateretse ku mugezi arawufungura amazi ari kujyamo kugira ngo ayakoreshe icyo ayashakira, ayo mazi ari guturuka mu kigega cy'umukara gifata amazi aturuka ku mireko y'imvura.

Abagore babiri bicaye, imbere yabo hari ameza, bari gufata ifoto y'urwibutso, nyuma y'uko bari bayoboye icyumba cy'inama, bageza ku baturage babakurikiye ibijyanye n'uko bagomba kwitwara.

Umubyeyi w'umugore uteruye umwana mu ntoki arimo kumusetsa banezerewe kugira ngo umwana akure yishimye kandi arusheho kugira ubuzima bwiza abifashijwemo n'umubyeyi we.

Imbere mu cyumba cy'inama harimo umugabo ndetse n'umugore ufite indangururamajwi, arimo kugeza igitekerezo ku bamukurikiye. Inyuma yaho hari ibyapa binini byanditseho RBC, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda ndetse n'ikirango cya Repubulika y'u Rwanda, cyumvikanisha ko bari mu ibikorwa byatewe inkunga na RBC.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru, ufite imisatsi izinze, wubitse umutwe ufatiyeho amaboko mu buryo bwo kugaragaza ko afite agahinda, akeneye guhumurizwa akagira ubuzima bwiza.

Umubyeyi umugore wicaye ku ntebe usa n'ufite agahinda kenshi, arimo kuganirizwa n'umukobwa ufite imisatsi izinze, amukoraho amuhumuriza kugira ngo amufashe kugabanya agahinda.

Itsinda ry'abantu abagabo ndetse n'abagore bahagaze bafite ibyemezo bahawe, byanditseho amagambo ashimangira igikorwa barimo, bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo barusheho gukomeza ibikorwa kandi barusheho gutera imbere.

Itsinda ry'abana bahagaze bafite ibivomesho mu ntoki, byumvikanisha ko bagiye kuvoma amazi, bamwe muri bo bambaye ibirenge abandi bambaye imyenda yashaje bigaragara ko badafite ubuzima bwiza.

Umukobwa urimo guseka, wambaye ijire y'umuhondo, uri mu iduka acururizamo, impande ye hari utubati tugiye dupanzemo ibyo acuruza, bitewe na buri bwoko, kugira ngo bimufashe kubona icyo umukiriya amusabye, akimuhe ku gihe.

Itsinda ry'abayobozi, abagore ndetse n'abagabo, bicaye abandi bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso inyuma yaho hari icyapa cyanditseho amagambo nk'ibirango bisobanura igikorwa cyari cyabahurije hamwe.

Umugabo muremure wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umutuku, arimo gusuhuza umugabo wambaye imyenda yamucikagurikiyeho ndetse n'umusatsi umeze nabi cyane bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Arimo kumusuhuza akoresheje ikiganza amuganiriza.

Itsinda ry'abantu bari kugenda mu muhanda bari kumwe n'abapolisi, ufite icyapa cyanditseho ngo ''kurwanya ihohoterwa ni inshingano zanjye''. Bari kugenda bashishikariza abantu kurwanya ibikorwa by'ihohoterwa.

Icyuma cy'amahugurwa giteraniyemo abantu benshi abagabo ndetse n'abagore bicaye bateze amatwi urimo kubahugura, umugore ubahagaze imbere arikwifashisha ibyanditse ku gitambaro kiri kugifatata kugira ngo abashe kubasobanurira ibyabahurije hamwe.

Imbere mu kigo cy'amashuri, itsinda ry'abanyeshuri benshi bambaye impuzankano barimo gufata ifoto y'urwibutso bazamuye amaboko hejuru bishimye cyane, bigaragara ko bishimiye igikorwa barimo cyabahurije hamwe.

Imbere mu cyumba cy'amahugurwa, hateraniyemo abantu benshi bicaye bareba imbere ahari abayobozi bayoboye, umugore umwe ahagaze abagezeho ibijyanye n'amahugurwa, baricaye bamukurikiye, bateze amatwi ibyo ababwira.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi, wasamye uri kwerekana igice cye cy'amenyo, mu buryo bwo gushishikariza abantu kugira amenyo asa neza, adafite umwanda kugira ngo hirindwe indwara ziterwa n'umwanda z'amenyo.

Igikorwa cyo gusuzuma uburwayi bw'amenyo kiri gukorwa n'itsinda ry'abaganga bareba mu kanwa k'umurwayi, bakareba amenyo arwaye bagaherako bayavura agakira akagira ubuzima bwiza.

Umwana uri mu gikorwa cyo gusukura amenyo yifashishije uburoso bwashyizweho korogate abushyira mu kanwa kugira ngo abashe guhanagura umwanda uba wagiye mu menyo yirinda indwara ziterwa n'umwanda z'amenyo.

Igikorwa cyo kuvura umwana amenyo, abaganga babiri bamuryamishije mu gitanda cyabugenewe. Bari kwifashisha imashini bareba ubwoko bw'amenyo arwaye, ndetse banagerageza kuyavura kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi w'umugore, ufite imisatsi myinshi, arimo gutoza umwana we uburyo bwo gusukura amenyo, yifashishije uburoso bw'amenyo buriho korogate, buri umwe muri bo afite uburoso bw'amenyo, umubyeyi ari kumwereka uburyo babushyira mu kanwa, bagasukura amenyo.

Igikorwa cyo gusuzuma no kuvura amenyo, umurwayi bamuryamicshe ku gitanda abarwayi baryamaho, umuganga ndetse n'umufashe bahagaze impande ye mu myambaro y'akazi, barimo kwita ku burwayi bwe bw'amenyo harebwa ko yamera neza ndetse agakira.

Ifoto y'amenyo ifatwa n'imashini yababugenewe ifotora amagufwa, irimo kwerekana amenyo kugirango ngo muganga ayifashishe mu kureba amenyo afite ikibazo ahereko ayavure urwaye akire agira ubuzima bwiza.

Abagore babiri, bari mu nyubako ikorerwamo inama, irimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe abantu bicaraho mu gihe cy'inama, ameza ateretseho amacupa y'amazi abantu banywa bari gukora inama ndetse buri umwe muri bo afite ikayi ndetse n'ikaramu ari kwandika ibijyanye n'ibyo barimo.

Umugabo wasamye ugaragaza amenyo, ufashe akadodo k'umweru mu ntoki, ari kugacisha ku buri ryinyo mu buryo bwo gukuramo imyanda iba yafashemo mu gihe ari kurya kugira ngo yirinde indwara zikomoka ku mwanda zifata amenyo.

Umuhungu ufashe igishushanyo kiriho amenyo menshi agaragaza ko amenyo avurwa kandi agakira, arimo gusiga cyane akoresheje urutoki rwe arutakura kuri ayo menyo mu buryo bwo kwereka abamubona icyo gikoresho.

Imbere mu bitaro mu cyumba kivurirwamo amenyo harimo mudasobwa zifashishwa n'umuganga areba uku umurwayi amerewe ,intebe yicaramo ari kuvura ndetse n'imashini yifashisha mu kuvura amenyo y'umurwayi kugira ngo amererwe neza.

Abana bato bambaye impuzankano y'ubururu, bari gusukura amenyo bifashishije uburoso bw'amenyo bafashe mu ntoki, bamwe bari kubukubisha amenyo kugirango bakuremo imyanda, undi arabufashe abwerekana gutya.

Umwana w'umukobwa wicaye ku ntebe y'ubururu, afashe uburoso bw'amenyo mu ntoki, arasamye cyane, ari kubushyira mu kanwa nk'igikorwa cyo kwigana abantu bakuru, uburyo basukura amenyo yabo.

Umukobwa uri mu gikorwa cy'isuku, asukura amenyo, akoresheje uburoso buriho korugate, ari guhanagura imyanda yagiye mu menyo, kugira ngo yirinde indwara zimwe na zimwe zaturuka ku mwanda w'amenyo zikayarwaza.

Umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe, agapfukamunwa ndetse n'itaburiya n'amataratara, imbere ye hari ameza ari ibikoresho, imashini yifashisha mu kuvura ndetse n'icupa ririmo imiti y'umweru, urupapuro n'ikaramu arimo kwandika ibijyanye n'ibyo ari kubona mu gusuzuma.

Umusore uri mu gikorwa cyo gusukura amenyo yifashishije akadodo afashe mu ntoki agacisha mu menyo kuri buri ryinyo mu buryo bwo gukuraho imyanda iba yafashemo mu gihe yaryaga hirindwa indwara zimwe na zimwe ziterwa n'umwanda w'umu menyo.

Imbere mu cyumba gisuzumirwamo kikanavurirwamo amenyo, hicayemo umusore w'umuganga wambaye imyenda y'akazi, impande ye hari igitanda umurwayi aryamaho iyo ari kwitabwaho, n'imashini yifashishwa na muganga ari kumusuzuma no kumuvura amenyo.

Umukobwa ufashe akadodo mu ntoki arimo kugacisha mu menyo kugira ngo akuremo imyanda yafashemo mu gihe yaryaga, hirindwa indwara ishobora guturuka mu myanda iba yafashe mu menyo.

Umugabo ufashe akadodo mu ntoki wasamye arimo kugacisha mu menyo mu rwego rwo gukuramo imyanda, kugira ngo aze kwirinda uburwayi bukomoka ku myanda iba yasigaye mu menyo mu gihe umuntu yaryaga.

Umuhungu ufite akadodo mu ntoki arimo kugacisha mu menyo akuramo imyanda yafashemo mu gihe yaryaga, ari kwireba mu ndorerwamo kugira ngo iyo myanda yose ayikuremo ntihagire n'imwe isigara mu rwego rwo kwirinda indwara z'amenyo.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, ishati y'ubururu, yicaye ku ntebe bigaragara ko atagifite imbaraga nyinshi, arimo kwitabwaho n'umuganga umushinzwe w'umukobwa ufite imisatsi iboshye, wambaye n'imyambaro y'akazi kugira ngo amufashe kumererwa neza.

Itsinda ry'abantu, abakuru ndetse n'abana y'umuryango. Umusaza n'umukecuru bari kumwe n'abana babo, bicaye, bishimye, ubona baseka cyane, banezerewe.

Itsinda ry'ababyeyi bari mu gikorwa cyo gusarura bafite agatete gateretse impande yabo, bari gushyiramo imyaka ndetse barimo kwishima cyane byumvikanisha ko bishimiye umusaruro bagezeho.

Mu cyumba cy'amafunguro umugore ufite imvi wambaye ishati y'umutuku arimo kwarura amafunguro ayashyira ku masahani ari ku meza, ku meza kandi hari ikirahuri cy'amazi aza kwifashishwa n'abantu barimo kurya.

Umusaza utagifite imbaraga zo kwigenza n'amaguru, yicaye mu igare ryabugenewe bitwara abantu badafite izo mbaraga zibavana mu gace kamwe ribajyana mu kandi, iruhande rwe hicaye umwana w'umuhungu, barimo kuganira bishimye banafite utwuma twabugenewe twifashishwa mu gukina umukino.

Itsinda ry'abantu ry'umuryango, umusaza n'umukecuru bari kumwe n'abana babo, abahungu n'abakobwa, barimo guseka cyane ubona bishimye, bishimiye ko bari kumwe nk'umuryango.

Umubyeyi w'umukecuru uri kumwe n'abana be umuhungu n'umukobwa, barimo kwarura ibyo kurya babishyira ku isahani, kugira ngo babashe kurya ibiryo birimo imbuto, imboga, babashe kugira ubuzima bwiza.

Umusaza wicaye ku ntebe muganga umwitaho ari kumupima umuvuduko w'amaraso akoresheje akuma kabugenewe amwambika ku kaboko, akabasha kureba umuvuduko w'amaraso ari kugenderaho kugira ngo abone uko amuvura.

Umusaza afite umusatsi w'imvi wicaye ku ntebe, afite agakoresho mu ntoki, ari guterura amabwiriza ari guhabwa n'umuganga w'umugore, uhagaze impande ye, amubwira uburyo aragakoresha kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umubyeyi w'umugore ufite umusatsi w'imvi, uhagaze mu cyumba afashe isahani ndetse n'ikanya arimo kurya yishimye, aseka bigaragara ko yishimiye igikorwa arimo.

Umukecuru ufite umusatsi w'imvi, arimo gukora siporo yo kunanura imitsi aterura akuma mu ntoki ,abifashijwemo n'umuganga we w'umukobwa, amuha amabwiriza y'uko agaterura kugira ngo imitsi ye irambuke.

Umugore wicaye ,ufashe inkoni mu ntoki, yegamiye ku muhungu w'umuganga wambaye itaburiya umwambaro w'akazi n'akuma mu ijosi, bigaragara ko ashinzwe kwita kuri uyu mugore, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza

Umukecuru wicaye hanze arimo guteka akoresheje inkwi, yateye amashyiga hanze arambikaho isafuriya ayitwikiriza indi, aratetse kugira ngo ibyo kurya biboneke abashe gufungura.

Umubyeyi uhagaze mu cyumba, kirimo ibikoresho bitandukanye, umugezi, ameza n'imitako. afite ikirahuri cy'amazi mu ntoki ndetse ikindi kiganza kirimo ibinini, agiye kubinywa yifashishije amazi kugira ngo abashe gukira uburwayi arwaye.

Umusaza uteruye umwana babuza impanga, bigaragara ko amwishimiye kandi ari gukora buri kimwe kugira umwana yishime. Umwana afite agapupe mu ntoki kaza kumufasha kumurembera.

Umubyeyi w'umugore wicaye ku ntebe, inyuma ye hahagaze umukobwa wambaye imyenda y'ubuganga umwitaho, amufashe ibiganza na we akamufata ibiganza, baseka bigaragara ko bishimye.

Umubyeyi w'umugore uri mu gikorwa cyo kunanura amaboko, amaguru, ndetse n'umugongo, afashe utwuma twabugenewe mu ntoki arimo gukora siporo ashingiye ku mabwiriza yahawe na muganga.

Umusaza ufite imvi bigaragara ko adafite imbaraga zo kwigenza n'amaguru, arimo gufashwa n'umugabo ufashe ku ruhande rumwe n'umukobwa ufashe ku rundi, bamuhagurutsa ku gitanda, banamufasha kugira ngo abashe kugenda gake gake kugera aho agiye.

Umubyeyi w'umukecuru ufite imisatsi y'imvi ari gusuhuzanya n'umuganga ushinzwe kumwitaho wambaye imyambaro y'akazi ndetse n'akuma kari mu ijosi barebana banezerewe nk'abishimiye guhura.

Umugabo ukuze ufite umusatsi wimvi wambaye umupira w'umukara, yicaye imbere kumeza hatetse mudasobwa ndetse n'ikirahuri cy'amazi ariguhabwa imiti n'umukobwa umwitaho, kugirango abashe kumererwa neza agire ubuzima bwiza.

Itsinda ry'umugabo n'umugore bari kumwe n'bana babo, umuhungu n'abakobwa, barimo gufata ifotoro y'urwibutso basetse bari kwishima, byumvikanisha ko ari umuryango wishimye, udafite ibibazo bituma umuneze ubura.

Abantu benshi bicaye mu ihema ryatewe, umubyeyi w'umugore, arahagaze ari guhereza umwe kuri umwe ibiri mu ntoki afite, mu gikorwa cyabahurije hamwe, kugira ngo buri wese abone serivisi imukwiye.

Abasaza n'abakecuru bicaye ku ntebe zibafasha kwegamira bakurikiye inama irimo kuba, bitonze bateze amatwi kugira ngo babashe kumva ibitekerezo barusheho kugera ku iterambere.

Inama rusange yahurije hamwe abaturage bo muri ako gace, bicaye ku ntebe, abandi bicaye hasi munsi y'igiti kinini, bateze amatwi umuyobozi wabo uri kubagezaho ibitekerezo n'uburyo bwo kwitwara, kugira ngo barusheho gutera imbere no kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi w'umugore ukuze ufite umusatsi w'imvi arimo aratozwa n'umuganga we ubishinzwe w'umugore, amwereka uburyo ananura amaboko ye ndetse amuha amabwiriza y'uburyo agomba kubitwara kugira ngo abashe kumererwa neza.

Imbere mu bitaro, icyumba gikoreshwa mu kuvura umurwayi, baryamishije umurwayi ku gitanda cyabugenewe, abaganga bari kumwitaho, umwe ari kumuvura abandi bahagaze impande ye kugira ngo baze kumufasha ndetse banamuhereze ibikoresho arakenera. Ari gukoresha imashini zabugenewe zifashishwa mu kuvura umurwayi.

Imbere mu cyumba cy'inama, hateraniyemo abantu benshi bitabiriye inama, abagabo ndetse n'abagore. Bicaye bitonze bareba imbere, kugira ngo batege amatwi uri kuyobora inama ubutumwa ari kubaha, mu rwego rwo gutuma serivisi batanga zigenda neza, bagera ku iterambere ndetse no ku buzima bwiza.

Icyapa cyanditseho covax, cyumvikanisha ko harimo ibikoresho ndetse n'inkingo byifashishwa mu gukingira corona virus nk'icyorezo kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abantu benshi bari mu muhanda, biganjemo bambaye imyenda y'umweru hejuru, bafite icyapa kinini, imbere cyanditseho "rubyiruko nimwe hazaza heza h'uru Rwanda, irinde virusi itera SIDA, ipimishe uyu munsi", bigaragara ko aricyo gikorwa cyabazinduye, bari gushishikariza abantu kwipimisha virusi itera SIDA.

Icyumba cy'amahugurwa giteraniyemo abantu, abagabo ndetse n'abagore barimo gukurikira amahugurwa, imbere yabo kandi hari irindi tsinda ry'abayobozi bicaye batandukanye, umwe muri bo afite indangurumajwi arimo kugeza ku bamukurikiye ibijyanye n'amahugurwa.

Itsinda ry'abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama bicaye, impande yabo hari ibyapa bisobanura ubwoko bw'inama iri kuhabera, baratuje ubona ko bitegereza uri kubagezaho ikiganiro.

Itsinda ry'abaganga bahagaze bambaye imyambaro y'akazi amataburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa bibarinda kugira uburwayi bahura nabwo mu gihe bari kwita ku barwayi kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza bakomeze n'akazi mu mahoro.

Inyubako yanditseho amagambo isange wani sitopu seta, aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, byumvikanisha ko abantu bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina bagana kuri iyi inyubako bagahabwa serivisi zo kwitabwaho.

Imbere mu nyubako yo kwa muganga, hariho agace umuganga wakira abarwayi baje basanga ibitaro, akoreramo ndetse n'intebe zashyiriweho abarwayi bategereje kwakirwa, mu buryo bwo kugira ngo bahabwe serivisi bifuza mu bitaro.

Icyuyuma kiri mu bitaro gisuzumirwamo umurwayi, harimo ibikoresho bitandukanye: intebe umuganga yicaramo mu gihe ari kwita ku murwayi, aho umurwayi yicara mu gihe ari kwitabwaho ndetse n'umugezi muganga yifashisha mu gihe arimo gusukura bimwe mu imikoresho yakoresheje ndetse no gukaraba intoki.

Inyubako nini yanditseho centre de sante Gisenyi, bisobanura ngo ni ikigo nderabuzima cya Gisenyi, imbere ku marembo yayo hamanitseho ibindi bigaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Gisenyi, haparitse umunyonzi mu muhanda wa kaburimbo uhari uhetse umukobwa, bigaragara ko agiye guhabwa serivise muri icyo kigo nderabuzima.

Inyubako yanditseho isange wani sitopu senta Remera-Rukoma, ifite ibigega ku ruhande bifata amazi y'imvura ndetse n'indabo zikikije agace irimo. Yumvikanisha ko ikorera Remera-Rukoma ikaba iriho ngo hitwe ku bibazo bimwe na bimwe bijyanye no guhohoterwa.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa mu gusuzuma ibipimo byafashwe umurwayi, harimo imashini yababugenewe muganga areberamo, uburwayi umurwayi arwaye ndetse n'uturahuri ku ruhande tudujyamo ibikoresho yifashisha mu gihe ari gusuzuma ibipimo yafashe umurwayi.

Imbere mu nyubako yo kwa muganga, ifite aho kwakirira umuntu uje agana ibitaro, kugira ngo bamufashe, bahabwa serivisi, harimo kandi imiryango igiye ifite nimero zanditse hejuru yazo, kugira ngo ibashe gufasha abaganga n'abarwayi kumenya icyumba bakoresha mu guhabwa no gutanga serivisi.

Ababyeyi b'abagore babiri bari mu cyumba. Umwe afashe umwana mu ntoki, undi amuhagaze inyuma. Bitegereza umuntu ubari imbere, bamwenyura byumvikanisha ko bishimiye icyabaye.

Inyubako yo kwa muganga yanditseho materinete (inzu y'ababyeyi ) yifashishwa n'abaganga mu gutanga serivisi ku babyeyi b'abagore kugira ngo babyare neza cyangwa bite ku nda batwite mu buryo bwo kugira ngo bazabyara neza abana bagire ubuzima bwiza.

Imbere mu bitaro ahari ibitanda byinshi bicumbikira abarwayi bakeneye kuguma kwitabwaho n'abaganga, bari mu bitaro harimo abantu benshi b'abarwayi ndetse n'abarwaza ndetse n'ibikoresho byifashisha mu gihe bategereje kwitabwaho, buri gitanda gifite supaneti hejuru mu buryo bwo kwirinda ko barumwa n'imibu itera marariya.

Icyumba cyo kwa muganga cyakirirwamo abaje bahabwa serivisi yo kwivuza, kirimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe, imeza ndetse n'imitako igiye imanitse ku bikuta byerekana igikorwa kihabera, hariho umuganga uhagaze mu kumba kabugenewe ko muri cyo wakira abantu kugira ngo uhabwe service.

Icyumba kinini cyahariwe gukorerwamo siporo, kirimo ibikoresho bitandukanye, ukora siporo yifashisha, n'imashini ndetse n'ibindi. Bifasha umuntu kugira ngo abashe gukora siporo agire ubuzima bwiza.

Mu biro ahakoreramo abakozi batandukanye harimo ibikoresho nk'intebe ndetse n'ameza kuri buri mukozi yifashishwa mu gikorwa cyo kwiga ku burwayi bw'umuntu.

Imbere kwa muganga, muganga wambaye Itabura y'umweru ingofero ndetse n'agapfukamunwa ari kureba ku kirahuri cya mudasobwa, uburwayi na gahunda zihari z'ibitaro kugira ngo abashe gutanga serivisi zikwiye ku baje bagana ibitaro bagiye kwivuza.

Inyubako nini yagenewe gukorerwamo siporo n'ibikoresho bitandukanye ukora siporo yifashisha. Imashini ndetse n'ibindi. Harimo kandi ibirahuri umuntu ukora siporo aba ari kureberamo ibijyanye na siporo ari gukora.

Itsinda ry'urubyiruko rw'abaganga bateraniye mu cyumba, imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho bifashisha mu gikorwa cyo kuvura umuntu, imbere yabo kandi hari akabati karimo imiti itandukanye bakoresha mu gihe cyo kwita ku murwayi.

Umugabo waje kwisuzumisha umuvuduko yicaye ku ntebe, muganga uri kumusuzuma yamwambitse akuma kabugenewe mu kaboko, kugira ngo abashe kureba umuvuduko w'amaraso ari kugenderaho. Bari kuganira bishimye, bategereje kubona ibipimo by'umuvudo.

Imbere kwa muganga, harimo abaganga bari kwita ku barwayi mu buryo butandukanye ndetse hari umukobwa wambaye imyambaro y'ubururu, ufite imisatsi izinze uri gutambuka abasanga kugira ngo bafatanye batange serivisi inoze.

Icyumba cyo kwa muganga gisuzumirwamo umurwayi, kirimo intebe muganga yicaramo ari kwita ku murwayi ndetse n'intebe umurwayihita yicaraho ari kwitabwaho arimo ikirahuri cya mudasobwa hejuru kigaragaza ibipimo ndetse n'uburyo muganga ari gufasha umurwayi n'imashini yabugenewe yifashishwa mu gihe cyo gusuzuma umuntu umurwayi.

Icyumba cy'isuzumiro, harimo ibikoresho bitandukanye n'igitanda usuzuma yicaraho, imashini muganga yifashisha mu gihe ari gusuzuma ndetse n'ikirahure cya mudasobwa kigaragaramo ibipimo by'indwara ari gusuzuma umurwayi.

Inyubako yagenewe abakorera muri siporo, irimo imashini zitandukanye, zifashishwa n'abaje gukora siporo. Buri mashini ifite ikirahuri cya mudasobwa, gukora siporo areberamo uburyo ari kuyikora, ndetse n'ubwoko bwa siporo arimo gukora.

Imbere mu bitaro mu cyumba kivurirwamo umurwayi urembye harimo umugore uryamye ku gitanda cy'umurwayi, ahandi hari imashini zicometseho imigozi imufasha kugezwaho imiti mu gihe ndetse inamufasha kuvurwa mu gihe muganga aje kumwitaho.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyabugenewe gisuzumirwamo kikanavurirwamo umurwayi hari n'igitanda aryamaho mu gihe ari kwitabwaho ndetse n'imashini muganga yifashisha mu kuvura umurwayi ifite ikirahuri cya mudasobwa kigaragaza uburwayi ndetse n'ibindi bifasha umuganga kwita ku murwayi.

Abantu bicaye ku muryango w'inyubako iri kwa muganga, yanditseho MATERINITE, inzu y'ababyeyi, bisobanura ko hari inzu itangirwamo serivisi ku babyeyi. Hahagaze umugore muri bo uri gutanga ubutumwa kubamukurikiye, ndetse n'umugabo uri ku ruhande uri gufata amashusho ndetse n'amajwi mbere yo gutangira.

Icyumba cyo kwa muganga cyabugenewe mu kubika imiti, kiririmo utubati dutandukanye bijyanye e n'ubwoko bw'umuti bugiye gushyirwamo kugira ngo bize gufasha muganga kumenya aho umuti agiye guha umurwayi iherereye bimufasha kumuvura neza mu gihe gikwiye.

Imbere mu bitaro, harimo ibikoresho bitandukanye, nk'imashini zifashishwa na muganga mu gihe ari kwita ku murwayi, utubati babikamo imiti n'ibikoresho yifashisha, ndetse n'ibirahuri bya Mudasobwa abaganga bareba mu gihe cyo kwita ku murwayi.

Imbere mu cyumba cyabugenewe kivurirwamo kikanasuzumirwamo umuntu, harimo imashini yifashishwa na muganga mu gihe ari kuvura umurwayi ndetse n'intebe yicaraho n'ibindi bikoresho arambikaho ibikoresha ari kwifashisha.

Imbere mu bitaro ahatangirwa serivisi zo gusuzuma no kugenzura ibyangombwa by'umuntu, hicayemo abantu ku ntebe zirimo bategereje kugerwaho kugira ngo harebwe ibyangombwa bafite babone kwisuzumisha no kuvurwa muri ibyo bitaro.

Inyubako nini yubatse igerekeranye, hejuru handitse, kingi Fayizari hosipito, bisobanura ko ari ibitaro bya kingi Fayizari. Imbere yaho hari umubare w'abaturage barimo kugendagenda bashaka serivisi zitangirwa muri ibyo bitaro.

Inyubako nini iri mu bitaro byanditsweho materinite, inzu y'ababyeyi, yifashishwa mu gutanga serivisi ku babyeyi bakeneye cyangwa se bashaka serivisi yo kubyara.

Amarembo manini yanditseho kabgayi hosipito byumvikanisha ko ari amarembo ajya anava mu bitaro bya kabgayi, mo imbere mu bitaro harimo inzu nyinshi zitandukanye ndetse n'amatara acanira abantu mu gihe cya nijoro.

Icyumba cyo kwa muganga kirwariyemo umurwayi w'umugore uryamye ku gitanda, impande ye hari imashini zimuhereza imiti y'ibanze ndetse n'ibirahuri bya mudasobwa bigaragariza muganga mu rwego rw'uburwayi bwe arimo kumuvura.

Imbere mu bitaro byo kwa muganga, harimo imihanda ibiri itandukanye, abantu bari gucamo bagana ku ivuriro kugira ngo bahabwe serivisi, harimo kandi ibiti birebire byongera umuyaga mwiza mu bitaro kugira ngo abarimo bamererwe neza.

Icyumba gisuzumirwamo kikanavurirwamo abarwayi, kirimo igitanda umurwayi aryamaho igihe ari kwitabwaho ndetse n'imashini muganga yifashisha ari kumusuzuma, harimo kandi ikirahuri cya mudasobwa muganga areberamo uburwayi ndetse na gahunda yo kuvura umurwayi.

Itsinda ry'abaganga bari mu cyumba batangiramo serivisi bahagaze, abandi bicaye babikoreshe imeza harimo uburyo bwo gutegura umuti bagiye gukoresha abavura umurwayi wabaganye kugira ngo akire amererwe neza.

Imbere mu nyubako y'ubuvuzi, mu cyumba cyabugenewe kirwaramo abarwayi, harimo itsinda ry'abaganga benshi bambaye amataburiya y'umweru, bahagaze ndetse bambaye n'udupfukamunwa, ku ruhande hari ibitanda abarwayi baryamaho, mu gihe bari kwitabwaho, ndetse buri gitanda gifite supanete ibarinda ko barumwa n'imibu.

Imbere mu ishuri hari itsinda ry'abantu bari mu gikorwa cyo gusobanurira abana ko bakagombye kwita ku menyo yabo, umugabo wambaye itabariya y'umweru arimo arerekera umwana w'umuhungu uburyo bwo kwita ku menyo ye hakoreshejwe igishushanyo gishushanyijeho amenyo.

Itsinda ry'abantu, abagabo ndetse n'abagore, bahagaze bahanye intera, bambaye agupfukawa, imbere y'inyubako yanditseho: ISANGE ONE STOP CENTER KABUTARE HOSPITAL, bisobanura ko ariyo ikorerwamo n'ikigo cya ISANGE ONE STOP CENTER mu gace k'ibitaro Ka Butare.

Umuhungu wagize ikibazo mu kaguru arimo kwitabwaho n'umuganga umushinzwe uhagaze impande ye, amwereka uburyo akoresha utwuma yamuhaye two kwambara mu kaguru kugira ngo abashe kunanura amaguru ndetse n'uburwayi bwe bw'imvune bukire vuba.

Umukobwa uri mu cyumba akoreramo imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umutuku n'imisatsi izinze, yarambuye umukeka w'umutuku hasi uwuryamaho yubamye arimo arakora siporo zo kunanura umugongo, amaguru ndetse n'amaboko.

Ibikoresho byo gusuzumiraho umurwayi, byifashishwa muganga ari kwimenyereza umwuga. Birimo imashini ndetse n'ikibumbano cy'umuntu, gifasha umuganga gusuzuma uburwayi umuntu ashobora kugira.

Umuhungu ari mu gikorwa cya siporo, yambaye ikabutura n'umupira by'umukara, ndetse n'inkweto, baryamye ku gitanda cyabugenewe, kivurirwaho abantu, umuganga wambaye imyambaro y'akazi y'ubururu ari kumuzirika mu kirenge, bigaragara ko yagize ikibazo cy'uburebwe mu kirenge, akaba ari kwitabwaho ngo yongere kugira ubuzima bwiza.

Umugabo uryamye ku gitanda, urimo kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi, ari kwifashisha imashini iri ku ruhande ifite umugozi, ubona ko ashyira ku murwayi, akabasha kureba imibare igaragara mu kirahuri cya ya mashini kugira ngo hamenyekane ikibazo umurwayi afite.

Imbere kwa muganga mu cyumba asuzumi nk'umurwaye muganga arir gute ku murwayipande yaba imashini ifite ikirahuri cya mudasobwaabantu areberamo mibare y'uburwayi umurwayi arwaye kugira ngo amenye indwara n'uburyo yivura.

Umusore wambaye isengeri n'ikabutura ya siporo yicaye hasi, ari gukora siporo zo kunanura amaguru, amaboko ndetse n'indi mitsi kugira ubuzima bwe burusheho kugenda neza, amererwe neza.

Umugabo wicaye uri guterura agakoresha yahawe n'umuganga w'umugore uri kumwitaho, ahagaze ku ruhande amuha amabwiriza y'uburyo adaterura kugira ngo imitsi ye n'amagufa birusheho gukomera abone gukira amererwe neza.

Umuntu wahinnye ukuvi, muganga wambaye imyambaro y'akazi n'akuma yaziritse mu ijosi, arimo kumukandira ku ivi mu buryo bwo kugira ngo ikibazo afitemo cy'uburibwe kibashe kugabanyuka ndetse abashe gukira.

Ukuboko k'umuntu afatiyeho pampa ku nkokora kugira ngo agabanye ikibazo cy'uburibwe buri mu nkokora, abashe kumererwa neza akire.

Umuhungu wambaye imyenda ya siporo, ikabutura ndetse n'umupira, apfukamye hasi yahinnye ukuvi, ari kugundamo byumvikanisha ko afitemo uburiribwe, ari gukanda kugira ngo bugabanyuke ndetse ukuvi kunakire.

Umuhungu udafite imbaraga zo kugendesha amaguru yahawe akuma na muganga umwitaho ari gukoresha mugihe ari gutambuka muganga arimuha amabwiriza y'uburyo agakoresha kugirango abashe gutambuka amenyereza umubiri we kugendesha amaguru.

Umwana wagize ikibazo afashwe n'umubyeyi we muganga amuri impande arimo kumusuzuma kugira ngo harebwe ikibazo yagize, abashe kuba yavurwa akire.

Umugabo wambaye ikabutura, uziritse ipampa ku mavi yumvikanisha ko afite ikibazo cy'uburibwe ku ivi akaba yaziritseho kugira ngo bimugabanyirize kuribwa ndetse abashe no kuba yakira ivi byoroshye.

Umuntu uri gusuka amazi mu kirahure yifashishije akajage karimo amazi menshi ari kuyagabanyiriza mu karahuri kugira ngo kamufashe kuyanywa agire ubuzima bwiza ndetse binamurinde indwara.

Igikoresho cy'umukara cyifashishwa n'abantu bakora siporo, bagishyira mu ivi kugira ngo niba hari uburibwe afite cyangwa se mu rwego rwo kwirinda ko agira ikibazo ivi rigira, kikaza kumurinda.

Imbere mu cyumba cy'ibitaro gikorerwamo igikorwa cyo kuvura no gusuzuma umurwayi, harimo ibikoresho byifashishwa, intebe yicaraho umurwayi, intebe yicaraho umuganga, akabati kajyaho ibikoresho bari kwifashisha, ndetse n'ikirahuri cya mudasobwa kigaragaza ibijyanye n'ibyo bari gukora. Harimo kandi imashini munganga yifashishe mu kuvura urwaye.

Imbuto ziri ku masahani ndetse n'imboga biraranmbitse ku meza iruhande rwabyo hari ibyuma byifashwa muri siporo ndetse hateretse igitambaro cy'umweru kirambitseho icupa rya mazi ibi byose bishishikariza umuntu gukora siporo akibuka kunywa amazi ndetse no kurya imbuto n'imboga kugirango arusheho kugira ubuzima bwiza.

Mu bwoko butandukanye bw'imbuto murambitse hasi ,impande yabwo hari ibyuma bitoya umuntu yifashisha mu gihe ari gukora siporo, bifite igisobanuro cy'uko bashishikariza umuntu wakoze siporo akoresheje turiya twuma gufata amafunguro ahagije agizwe n'imbuto n'ibindi bitandukanye.

Umusore urimo gukora siporo iruhande hateretse igikapu cy'irimo bikoresho ari kwifashisha ndetse afashe icupa ry'amazi arikugotomera kugira ngo ubuzima bwe bujye ku murongo agarura ubuyanja arushaho kuguma gukora siporo afite ubuzima bwiza.

Icyumba giteraniyemo abaganga bari guhugurwa na mugenzi wabo wifashishije imashini ifite ikirahuri cya mudasobwa kirimo kugaragara mu bwoko bw'ibyo ari kubahugura, bamwe muri bo bafite amakaye n'amakaramu bandikaho ibyo bari bubwirwa.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo, ipantaro, isengeri ndetse n'inkweto, arimo kunanura amaguru n'amaboko, afatiye ukuguru kwe kw'ibumoso inyuma, mu rwego rwo kunanura umugongo ndetse nako kaguru.

Umuntu wicaye barambuye akaboko afatiraho agatamba k'ubururu bigaragara ko mu nkokora arimo kuribwa, akaba yakifashishije mu buryo bwo kumungagabanyiriza uburibwe ndetse kugira ngo abashe gukira.

Imbuto, amazi, icyuma, ndetse na metero yo gupima, byifashishwa n'umuntu uri gukora siporo, birambitse hasi mu rwego rwo kugaragaza ko, ukoze siporo aba agomba gufata imbuto ndetse n'amazi bifasha ubuzima bwe kugaruka ku murongo.

Imbuto n'utwuma two gufata mu ntoki ndetse n'imboga irambitse hasi byifashishwa n'umuntu uri mu myitozo kugira ngo abashe kugira ubuzima, imbuto azirya amaze gukora umwitozo naho udukoresho atwifashisha mu gihe cyo gukora umwitozo.

Mu cyumba ahateraniye abantu batatu, umubyeyi w'umugore wazanye umwana kumusuzumisha, yicaye ku ntebe, afite umwana mu ntoki, yambaye n'agapfukamunwa, muganga wambaye imyambaro y'ubururu, wicaye imbere yabo, afite agakoresho kabugenewe ari gutunga mu ijisho ry'umwana kugira ngo abashe kubona indwara arwaye ndetse imbere ye hari ameza ateretsaho ibikoresho bitandukanye ari kwifashisha.

Umuntu ufite ikibazo cyo kuribwa mu nkokora, yarambuye akaboko afatisha agatambaro kabugenewe, karimo umuti wo kaboko, ku nkokora kugira ngo kabashe kumugabanyiriza uburibwe abashe no kuba yakira.

Icyumba cyo kwa muganga iyo usuzumirwamo uburwayi, hari imashini yabugenewe umurwayi ajyaho ikamusuzuma. Ndetse ku ruhande rwayo hari akabati karimo ibikoresho bitandukanye, umuganga akenera mu gihe cyo gusuzuma no kuvura umurwayi.

Igikoresho gikozwe mu buryo bw'akaguru, kifashishwa n'umuntu ufite ikibazo ku kaguru kugira ngo kimufashe kuba yagabanyirizwa uburibwe cyangwa se abashe no gukira imvune afite.

Agakoresho k'umuhondo kifashishwa mu gihe umuntu ari gukora siporo kugira ngo kamurinde kugira imvune cyangwa gukomereka, mu buryo bwo kurinda umubiri we kugira ngo urusheho kuguma kumererwa neza.

Igare ryabugenewe ryifashishwa n'abantu badafite imbaraga zo kugendesha amaguru, rifite amapine ane, ndetse n'aho umusunika afata, mu gihe ari kumwimura amukura mu gace kamwe amujyana ahandi.

Uburyo bwo gushishikariza umuntu wakoze siporo kunywa amazi ndetse akarya imbuto, hakoreshejwe amazi, imbuto, igipimo, ndetse n'icyuma rishishikariza umuntu wakoze siporo kugira ngo ajye yita ku mubiri we kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri yambaye ipantaro n'isengere bya siporo, yarambitse umukeka hasi yateretseho mudasobwa iruhande hari ibyuma biri kumufasha gukora siporo , arimo kunanura ibitugu amaboko ndetse n'amaguru.

Umugore uri mugikorwa cya siporo, yambaye ipantaro ndetse n'isengeri ya siporo, yicaye ku umukeka ararambitse hasi, arimo gukokora siporo yo kunanura amaguru, amaboko, ndetse n'umugongo, kugirango arusheho kugira ubuzima bwiza.

Imbuto, imboga, ikirahuri kirimo ji, ikirahuri kirimo amazi n' icyuma giterurwa n'umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, birambitse hasi, mu buryo bwo gushishikariza umuntu gukora siporo akarya imbuto n'imboga ndetse n'amazi na ji kugira ngo ubuzima bwe bwongere bugende neza.

Umusore uri muri siporo ngororamubiri aryamye ku gitanda arimo aritabwaho n'umuganga umushinzwe, amukandira ku itako kugira ngo amufashe kurambura imitsi yo ku itako abashe kugira ubuzima bwiza.

Umusore urimo gukora siporo wambaye umupira w'umutuku ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara arimo gukora siporo yifashishije umugozi yarambitse hasi ndetse n'umupira afashe mu ntoki ari guhabwa amabwiriza n'umugabo w'umutoza we uhagaze impande ye ari kumwereka uko abikora.

Ku kibuga cy'umupira, hariho abakinnyi benshi baje gukina umupira w'amaguru, umwe muri bo agize ikibazo ababishinzwe bambaye amajire y'umutuku bamuryamisha hasi, bamushyiraho imiti y'ibanze kugira ngo ataguma kuribwa n'ikibazo afite.

Icyumba gikorerwamo siporo, kirimo umugore uri gukora siporo akoresheje imashini zirimo zabugenewe, ari guhabwa amabwiriza n'umugabo uhagaze impandeye wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru n'agapfukamunwa k'umukara, amwereka uko agomba gukora siporo ubuzima bwe bukagenda neza.

Umuhungu wambaye umupira w'umukara, afite icupa ry'amazi arimo kunywa amazi aririmo, bigaragara ko yari mu rugendo, akaba ageze igihe cyo gufata amazi, agahagarara akayanywa kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Igikorwa cyo gusuzuma uburwayi umwana afite, mubyeyi we yicaye ku ntebe amuterura mu ntoki, muganga w'umuhungu arimo kumwitaho akoresheje akamashini mu buryo bwo kureba uburwayi arwaye, ku ruhande hahagaze abandi bantu babiri bategereje guhabwa serivisi.

Itsinda ry'urubyiruko rishinzwe kwita ku bantu bahuye n'ikibazo, aho umwe muri bo ahuye n'ikibazo cy'uburwayi, bakaba bari kumuryamisha ahabugenewe kugira ngo barinde ubuzima bwe, batanga ubutabazi bw'ibanze.

Icyapa kinini cyamamaza imiti gakondo ikorwa mu bimera ndetse n'imbuto ifunze mu macupa y'umweru, ishushanyijeho amagambo asobanura icyo umuti ukora ndetse n'uburyo wifashishwa n'abarwayi mu kwivura bitagombeye ko bajya kwa muganga gukoresha inshinge n'ibinini.

Ikimera gisa icyatsi gihinze mu murima, cyifashishwa mu gukora imiti gakondo, ivura umuturage bitagombeye ko ajya kwa muganga mu gufata ibinini byamuvura indwara arwaye.

Umuhanga mu gukora imiti gakondo, ari kwifashisha imbuto ndetse n'imboga, azivanga akora umuti gakondo, uza gukenerwa n'umurwayi mu buryo bwo kwivura, bitagombeye ko akoresha inshinge n'ibinini byo kwa muganga.

Agace gakorerwamo ubwinitsi bw'imbuto, umuhinzi yagiye yinika buri mbuto bitewe n'ubwoko bwazo ndetse kuri buri kiciro k'imbuto hariho icyapa gisobanura ubwoko bw'imbuto n'uburyo zikoreshwa.

Akabati kubabatse ku buryo bugerekeranye, karimo amacupa atandukanye, ari gucuruzwa, buri cupa rifunzemo umuti gakondo bijyanye n'ubwoko bwawo ndetse bifasha umucuruzi, kumenya ubwoko bw'umuti aha umurwayi mu gihe aje kuwugura biboroheye.

Imbuto, imboga, ndetse n'igitoki, birarambitse, byifashishwa n'umuhanga mu buryo bwo gukora umuti gakondo, ukenerwa n'abarwayi, mu kuvura, bitagombeye ko yifashisha inshinge n'ibinini byo kwa muganga.

Ikimera cyitwa umuhararumba cy'icyatsi kibisi kiri mu ishyamba cyifashishwa mu gukora imiti ya gakondo ivura indwara zimwe na zimwe bifasha umurwayi gukira utagombye ko ajyagusa ibinini n'inshinge zo kwa muganga.

Imbuto z'amaronji, tangawizi, igikombe ndetse n'isahani, birambitse ku gatambaro, byifashishwa n'umuhanga mu gukora umuti gakondo, ukoreshwa n'abarwayi, mu gihe badakeneye gukoresha ibinini n'inshinge ngo bakire.

Amacupa arimo ifu, imbuto ndetse n'imboga biteretse ku ruhande rwaryo, byifashishwa n'umuntu w'umuhanga mu gukora imiti gakondo, ivura abantu uburwayi bidasabye ko bakoresha inshinge n'ibinini.

Imiti gakondo ifunze mu macupa atandukanye, buri cupa rifite ishashi iririho ifite ibisobanuro n'ubwoko bw'uwo muti kugira ngo byorohereze uyicuruza kumenya iyo aha umurwayi ndetse n'umurwayi asobanukirwe ubwoko bw'umuti atwaye n'uburyo igihe kumukiza.

Icupa ry'ubururu ripfundikiye riteretse ryanditseho skin oil ryumvikanisha ko ari icupa ririmo amavuta asukura akanatunganya uruhu, kugira ngo birinde indwara zimwe na zimwe zafata uruhu.

Ikimera cy'umuharavumba, gifite amababi y'icyatsi giteye ahantu bashigikiye kugira gikuho kizamuka, kikoreshwa n'abahanga mu gukora imiti gakondo, ivura umurwayi bitabumbyeye ko bakenera gukoresha ibinini cyangwa inshinge zo kwa muganga.

Imiti gakondo ifunze mu macupa atandukanye buri cupa ryanditseho amagambo," foreva bi hani", bisobanura ko uwomuti ukorwa mu buki ukavura indwara zitandukanye umuntu ashobora kurwara akayifashisha bitagombeye ko aterwa inshinge zo kwa muganga.

Ikimera cy'umuharavumba gifite amababi y'icyatsi kibisi, gikoreshwa n'abahanga mu gukora umuti gakondo, ukiza ndwara zimwe na zimwe, bitagombeye ko uyirwaye akoresha ibinini n'inshinge byo kwa muganga.

Akarima karimo imbuto, zinajwe n'umuhinzi kugira ngo mu gihe gikwiye azazifate ajye kuzitera ahabugenewe zikure zimuhe umusaruro; zifunzemo amashashi azifasha kugira ngo zigumane ifumbire yazo, zigume gukura neza zikirimo.

Ikimera kifashishwa mu gukora imiti gakondo, ikoreshwa n'abantu bafite ikibazo cy'uburwayi, bitagombeye ko bajya kwa muganga kugira ngo bahabwe ibinini cyangwa inshinge, zibasha kubafasha gukira uburwayi barwaye.

Itsinda ry'abagabo ndetse n'abagore bambaye imyambaro y'icyatsi, bakora igikorwa kijyanye n'ubuhinzi, bari kumwe n'abayobozi babasuye aho bahinga inanasi mu rwego rwo kureba ibyo bakora ndetse no kubashigikira.